Ni icyumba kigari, kikaba kirimo abaturage imbere yabo hakaba hari umugabo n'umugore bafashe indangururamajwi bakaba barimo kwiga no gusobanukirwa uburyo bwo kwiteza imbere.

Ni icyumba kigari kikaba kirimo abashinzwe umutekano b'abapolisi. Inyuma yabo hakaba hari abaturage barimo gufotora, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwicungira umutekano.

Ni umugabo, wambaye imyenda iri mu mabara y'umweru n'umukara. Inyuma ye hakaba hari intebe zigerwaho n'abantu baje kureba imikino y'imyidagaduro. Akaba afashe indangururamajwi arimo kwigisha abandi bimwe mu biri imbere ye.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa, bakaba bicaye mu cyumba kigali, imbere yabo hakaba hari abandi barimo kubyina, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere.

Ni icyumba, kikaba kirimo abaturagekaba, hakaba hahagazemo umugabo ufashe indangururamajwi, akaba arimo kwigisha abandi baturage bicaye, bakaba barimo guhana ibitekerezo by'ukuntu bakwiteza imbere.

Ni abaturage bicaye mu cyumba cy'igari. Imbere yabo hakaba hahagaze umugore ufashe indangururamajwi. Bakaba barimo kuganira, bahana ibitekerezo by'uburyo bwo kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umugabo akaba arimo gucuranga igikoresho gakondo cy'umwirongi, ibi bikaba bifatwa mu kwiga no gusobanukirwa umucoyarwanda binyuze mu gucurangisha ibikoresho gakondo bigiye bitandukanye.

Ni abaturage bicaye mu ihema rinini, imbere yabo hakaba hari urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa barimo kubyina imbyino z'umuco nyarwanda, nyuma yaho hakaba hari abari kuririmba, ibi bikaba bifasha mu kurinda ko umuco nyarwanda watakara binyuze mu mbyino n'indirimbo.

Ni amashusho akaba ari kugaragaza inyogosho zogoshwaga abami ndetse n'abamikazi, ibi bikaba bifasha mu kwigisha urubyiruko n'abaturage umuco nyarwanda birinda ko watakara.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa, bakaba barimo kubyina imbyino nyarwanda haba harimo abari gukoma amashyi abandi bari kubyina bateze amaboko, ibi bikaba bifasha kwirinda ko umuco nyarwanda watakara binyuze mu mbyino ndetse n'indirimbo.

Ni umugabo akaba yambaye ibikoresho bya kinyarwanda byifashishwa mu kubyina ndetse no guhamiriza, ibi bikaba bifasha mu kwiga umuco nyarwanda kwirinda ko watakara.

Ni umuturage hakaba ari mu gikorwa cyo gusya ibinyampeke bigiye bitandukanye akoresheje uburyo bwa gakondo bwo gukoresha urusyo ndetse n'ingasire, ibi bikaba bifasha mu kwigisha umuco nyarwanda.

Ni igiseke kikaba kiboshye mu ibyatsi bya kinyarwanda, kikaba kirimo amabara asa n'umukara ndetse n'andi, ibi biseke bikaba byifashishwa mu kubungabunga umuco nyarwanda twirinda ko watakara.

Ni igikoresho cy'inkono y'itabi, iki gikoresho kikaba cyarifashishwaga mu kunywa itabi mu gihe cyo hambere, ibi bikaba bifasha mu kwiga no gusobanukirwa umuco nyarwanda, binyuze mu kwiga ibikoresho byifashishwaga nabo mugihe cyohambere.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa bakaba barimo kubyina imbyino z'umuco nyarwanda ibi bikaba bifasha mu kwiga no kubungabunga umuco nyarwanda binyuze mu mbyino ndetse n'indirimbo.

Ni urugomero rukaba rurimo imashini zigiye zitandukanye. Zikaba zifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w' w'amashanyarazi ubafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umukozi wambaye imyenda yabugenewe yambarwa n'abakozi bakora mu nganda zitanga umuriro w'amashanyarazi akaba yuriye igiti kiriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi zibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umukozi wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abakozi bakora mu mashini zongera zikanagabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbaragaz'umuriro w'amashanyarazi zibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umukozi. Akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abakozi bakora mu nganda zitanga umuriro w'amashanyarazi. Akaba ari mu cyumba kirimo imashini zifashishwa mu kugabanya no kongera imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbaraga zo amashanyarazi zibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni urugomero rukaba ruriho imashini zifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro wa mashanyarazi. Iruhande rwawo hakaba hari ibiti biriho insinga zikora umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha umuturage mu kubona imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ni igiti kikaba kiriho insinga zifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, hakaba hariho amatara afasha mu kumurika igihe bwije. Iruhande rwayo hakaba hari ibiti by'inganzamarumbo, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro ubafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ni abakozi bambaye imyenda yabugenewe iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umutuku, bakaba bambaye ingofero z'umweru, umuhondo, n'icyatsi, bakaba barimo gukora urugomero rutanga imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ni amapoto akaba ariho imashini zifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi, hakaba hariho abakozi bari kuzikora, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbaraga z'umurio w'amashanyarazi zibafasha mu kwiteza imbere.

Ni abakozi bakaba bahagaze hejuru y'inyubako ifite amabati y'umutuku bakaba bari gushyiraho umurasire wifashishwa mu gukusanya imbaraga zikomoka ku zuba kugira ngo zivemo imbaraga zitanga umuriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha umuturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi.

Ni abagabo bakaba bambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abakozi bakora mu nganda zitanga umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari umwe wuriye ku giti kiriho insinga zifashishwa mu gutwara muriro w'amashanyarazi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi.

Ni imashini ikaba yifashishwa mu gushira umuriro w'amashanyarazi mu nzu, ibi bikaba bifasha abantu mu kubona imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi zibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umukozi akaba yambaye imyenda yabugenewe iri mu mabara y'icyatsi, ingofero y'umuhondo, akaba arimo gukora ku imashini zongera zikagabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi ubafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyapa kikaba kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru. Iruhande rwaho hakaba hari umuhanda ndetse n'uruzitiro rukoze mu matafari. Iki cyapa kikaba kirimo kuyobora abantu ahari urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyagatare. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umuriro w'amashanyarazi.

Ni abakozi bambaye imyenda yabugenewe bakaba bambaye ingofero ziri mu mabara asa n'umuhondo ndetse n'umweru, bakaba bari gukora ku imashini yifashishwa mu kongera no kugabanya imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ni icyapa kiri mu mabara y'icyatsi. Kikaba kiriho ikirango cy'igihugu kiri mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Kikaba cyanditseho imihigo iranga abaturage. Ibi bikababafasha mu kwiyubakira igihugu binyuze mu kwesa imihigo.

Ni inyubako zikaba zubatse mu buryo bwa kijyambere, imbere yazo hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'abaturage, izi nyubako zikaba zituzwamo imiryango itishoboye, ibi bikaba bifasha mu kuba ahantu heza ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Ni inyubako ikorerwamo ubuvuzi. Imbere yayo hakaba haparitse imodoka yifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze. Ibi bikaba bifasha abarwayi mu kubona ubuvuzi bubanogeye.

Ni inyubako, ikaba ifite amabati ari mu ibara risa n'umutuku, ikaba ikikijwe n'uruzitiro rukozwe mu byuma iruhande rwayo hakaba hari ibimera bigiye bitandukanye bitoshye, ibi bika bifasha abaturage mu kubona aho bakorera ibikorwa byabo bya buri munsi.

Ni ikiraro, kikaba gikozwe ku buryo bwa kijyambere, iruhande rwacyo hakaba hari amashamba ya kimeza, ibi biraro bikaba byifashishwa na ba mukerarugendo baba baje gusura aya mashamba, ibi bikaba bibafasha mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Ni inyubako ndende igeretse. Imbere yayo hakaba hari ikirango cy'Igihugu ndetse n'ubusitani bumeze neza. Ibi bikaba bifasha abayobozi mu kubona aho bakirira abaturage ndetse no gukemura ibibazo by'abaturage mu buryo bworoshye.

Ni abaturage bakaba bari kunyura ku kiraro gikoze mu biti, iruhande rwabo hakaba hari amashamba y'inganzamarumbo, ibi biraro bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahanandi.

Ni umuhanda mugari ukaba uriho ikiraro, iruhande rwacyo hakaba hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni abaturage bakaba bari mu gikorwa cyo kureba umupira w'amaguru. Ibi bikaba bibafasha mu kugira ibyishimo ndetse no kwirinda indwara zitandukanye ndetse n'izindi ndwara. z'imitima

Ni abaturage bakaba bari kunyura ku kiraro cyubatse, kikaba gikikijwe n'ibyuma bikozwe n'irangi risa n'icyatsi, ibi bikaba bifasha abaturage mu gukora ingendo ziva ahantu hamwe zijya ahandi mu buryo bworoshye.

Ni inyubako ndende ikaba ari ibiro by'akarere ka Nyagatare, ikaba yifashishwa n'abayobozi mu kwakira no gukemura ibibazo by'abaturage baza babagana.

Ni abaturage, bakaba bahagaze iruhande rw'icyapa kigaragaza urugamba rwo kwibohora, iruhande rwabo hakaba hari amashyamba agizwe n'imigano, bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage bakaba bahagaze inyuma y'ibyumba by'amashuri, bakaba barimo kwiga no kuganira ku butabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Ni abaturage bahagaze mu cyumba hakaba harimo abashinzwe umutekano barimo abapolisi, abasirikare ndetse n'abacungagereza, bakaba barimo kwiga no kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage bicaye mu cyumba kigari, hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abasirikare ndetse n'abacungagereza, bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage bicaye. Inyuma yabo hakaba hari ibimera bibiri bitandukanye birimo intoki n'ibindi. Hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda, bakaba barimo kuganira ku butabera n'uburenganzira bwa muntu.

Ni umuturage akaba afashe indangururamajwi. Akaba ahagaze munsi y'ihema. Akaba arimo kwigisha mu kuganira cy'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Ni abagabo n'abagore bicaye mu cyumba hakaba harimo abashinzwe umutekano w'abasirikare n'abapolisi bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage bakaba bicaye imbere yabo hakaba hahagaze abandi harimo ufashe indangururamajwi, bakaba barimo kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage bicaye ahantu hamwe iruhande rwabo hakaba hari ibyapa birimo kwamamaza, hakaba hahagaze ushinzwe umutekano w'umupolisi ufashe indangururamajwi. Bakaba barimo kwiga ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage hakaba harimo abashinzwe umutekano w'abaporisi n'abasirikare bakaba bari mu gikorwa cyo gushyira indabo ku mva ibi bikaba bibafasha mu kuganira ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni abaturage bicaranye n'urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri.I nyuma yaho hakaba hari amashuri, imbere yabo hakaba hari ushinzwe umutekano w' umusirikare, bakaba barimo kuganira no kwita ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ni isoko rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo inkweto n'imyenda, imbere yaho hakaba hari imbuga ngari iparikamo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ibi bikaba bifasha abaturage mu gukora ingendo ziva ahantu hamwe zijya ahandi mu buryo bworoshye.

Ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo moto ndetse n'imodoka, bikaba biririmo kugenda mu muhanda mugari wa kaburimbo, iruhande rwaho hakaba hari indi yifatishwa mu bucuruzi ibi bikaba bifasha abaturage mukuva hamwe bajya hanze mu buryo bworoshye.

Ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba irimo kugenda mu muhanda w'amabuye, iruhande rwaho hakaba hari amazu y'ubucuruzwa. Ibi bikaba bifasha abaturage mu gukora ingendo zigiye zitandukanye.

Iyi ni imihanda y'igitaka, ku ruhande rwaho hakaba haparitse ikinyabiziga cy'imodoka kiri mu ibara risa n'umweru. Iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu gutwara ibicuruzwa babikura hamwe babijyana ahandi.

Ibi ni ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo moto, imodoka n'ibindi, bikaba birimo kugenda mu muhanda mugari wa kaburimbo, iruhande rwaho hakaba hari amazu yifashishwa mu bucuruzi bugiye butandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi ku buryo buboroheye.

Ni icyapa kikaba kiri mu barara risa n'ubururu, iruhande rwacyo hakaba hari amashyamba afite ibiti by'inganzamarumbu, ibi byapa bikaba biyobora abakoresha imihanda minini mu buryo bwo kwirinda impanuka, ibi bikaba bifasha mu kwirinda impanuka.

Ni abaturage bakaba barimo gukora igikorwa cy'umuganda, hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abapolisi ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwiyubakira ibikorwa remezo.

Ni abaturage bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, hakaba harimo abari kubumba amatafari abandi bari kubaka, ibi bikaba bifasha mu kwiteza imbere binyuze mu kubana ndetse no kwicungira umutekano.

Ni abaturage hakaba harimo abafashe amasuka, bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda. Ibi bikaba birabafasha mu kwiteza imbere binyuze mu muganda ndetse no kwicungira umutekano.

Ni abaturage, hakaba harimo abambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi, hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abasirikare, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kwiteza imbere binyuze mu kwicungira umutekano ndetse no kwiyubakira ibikorwa remezo.

Ni umuturage akaba ari mu gikorwa cyo gukora umuganda akora amasuku, ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu gukora amasuku.

Ni abaturage hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abapolisi n'abasirikari, bakaba bari mu gikorwa cyo gukora muganda. Ibi bikabibafasha mu kwiteza imbere binyuze mu kwikorera ibikorwa remezo, ndetse no kwicungira umutekano.

Ni abaturage bakaba bari mu gikorwa cyo gukora umuganda, hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abasirikari, ibi bikaba bifasha abaturage mu kwiteza imbere binyuze mu kwicungira umutekano ndetse no gukora ibikorwa birimo umuganda.

Ni abaturage bakaba bicaye ku intebe zisa n'ubururu. Bakaba bari mu gikorwa cyo kureba imyidagaduro. Ibi bikaba bibafasha mu kwishima ndetse no kwirinda indwara zgiye zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije, diyabeti ndetse n'izindi ndwara z'umutima.

Ni abaturage bakaba bari mu gikorwa cyo kwidagadura, iruhande rwabo hakaba hari abana bakiri bato bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara y'umweru n'icyatsi, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwidagadura no gukina imikino igiye itandukanye.

Ni urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa bakaba bicaye ahantu hubatse neza bakaba bari kureba umukino, ibi bikaba bibafasha mu kwishimisha ndetse no kubarinda indwara zirimo umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Ni urubyiruko rukaba ruri mu gikorwa cy'imyidagaduro, bakaba bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku n'umukara, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara zirimo umubyibuho ukabije, Diyabete ndetse n'izindi ndwara z'umutima.

Gukina imikino igiye itandukanye irimo umupira w'amaguru ndetse n'indi bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije.

Gukina imikino igiye itandukanye irimo umupira w'amaguru ndetse n'indi bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza, ibi bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije ndetse bitanga amafaranga ku babikora nk'umwuga.

Ni abaturage, bakaba bari mu gikorwa cy'imyidagaduro bakina umupira w'amaguru, hakaba harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umweru n'umuhondo, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa, bakaba bari mu gikorwa cy'imyidagaduro, ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza, binyuze mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye, zirimo umubyibuho ukabije, Diyabete ndetse n'izindi.

Ni urubyiruko rw'abana b'abahungu n'abakobwa bakaba bari mu gikorwa cyo kwidagadura, ibi bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zirimo: umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Ni abaturage hakaba harimo abashinzwe umutekano b'abasirikare, bakaba bari mu gikorwa cyo gukina imikino igiye itandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kwigira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije.

Gukora imyidagaduro irimo gukina imikino igiye itandukanye irimo umupira w'amaguru bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza buzira indwara ndetse bikaba bitanga umusaruro ku babikora nk'umwuga.

Ni abakinnyi b'umupira w'amaguru. Bakaba bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu. Iruhande rwaho hakaba hari imisozi iriho ibyatsi bitoshe. Bakaba bari mu gikorwa cyo gukina umupira w'amaguru. Ibi bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije.

Ni abaturage bakaba bari mu gikorwa cy'imyidagaduro bakina umupira w'amaguru, ibi bikaba bibafasha mu kwirinda indwara zigiye zitandukanye zirimo umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'indwara z'umutima.

Ni urubyiruko rukaba ruri mu gikorwa cyo gukina umupira w'amaguru. Iruhande rwaho hakaba hari ibindi bibuga byifashishwa mu gukina indi mikino. Ibi bikaba bibafasha mu kugira ubuzima bwiza binyuze mu kwirinda indwara zitandukanye birimo diyabete, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara z'umutima.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo iruhande rwaho hakaba hari umuturage u kunyura ndetse n'amazu y'abaturage. Iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu gutwara ibi bagurana n'ababijyana ahandi.

Ni imihanda ikaba ikozwe mu gitaka, iruhande rwayo hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka ndetse n'amashyamba ahakikije. Ibi bikaba bifasha abaturage bamwe bajya gutwara ibinyabiziga.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo. Iruhande rw'aho hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru. Iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu gutwara ibintu babikura ahantu hamwe bajyana abandi.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'amashamba afite ibiti by'inganzamarumbo, umuhanda ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka, moto ndetse n'abaturage, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu bamwe bajya ahandi mu buryo buboroheye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi. Ibi bikaba bifasha abaturage mu gukora ingendo zirimo gutwara ibicuruzwa bigiye bitandukanye, Ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umuhanda w'amabuye, ukaba urimo kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, birimo moto, iruhande rwaho hakaba hari amazu y'ubucuruzi, iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abantu kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Ni inzira nyabagendwa ikaba ikozwe mu mabuye, ibi bikaba bifasha abaturage mu gukora ingendo ziva ahantu hamwe zijya ahandi mu buryo buboroheye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo ukaba ukikijwe n'ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu gutwara ibintu bimwe babivana ahandi babijyana ahandi mu buryo buboroheye.

Ni umuhanda ukaba ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi, iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu gukora ingendo z'igihe zitandukanye, ibi bikaba bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umuhanda w'amabuye, ukaba ukikijwe n'amazu ndetse n'ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi iruhande rwaho hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru. Iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Kugenda mu mihanda yubatswe mu buryo bwa kijyambere bifasha abaturage mu buryo bwo kwiteza imbere binyuze mu gutwara ibicuruzwa ndetse n'abantu ku buryo buboroheye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo, iruhande rwawo hakaba hari inyubako zigiye zitandukanye, umuhanda ukaba urimo kunyurwamo n'abaturage, ibi bikaba bifasha abaturage mu kuva ahantu hamwe bajya ahandi mu buboroheye.

Ni abaturage bari kugenda mu tuyira dukikije umuhanda mugari wa kaburimbo, iruhande rwawo hakaba hari imiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, iyi mihanda ikaba yifashishwa n'abaturage mu gutwara no ibintu babikura ahantu hamwe babijyana ahandi.

Ni inzira y'igipaka. Hakaba harimo kunyuramo abaturage. Iruhande rwacyo, hakaba hari amazu y'abaturage ndetse n'imirima irimo ibyatsi bitoshye. Iyi mihanda ikaba ifasha abaturage mu kuva hamwe bajya ahandi mu buryo bwororoshye.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo. Iruhande rwaho hakaba hari amazu yifashishwa mu gucuruza ndetse n'ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi. Iyi mihanda ikaba yifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu biva ahantu hamwe bijya ahandi.